Ni abaturage benshi ubona ko bicaye kwa muganga bose, bategereje ubuvuzi kugira ngo nabo barebe ko bagira ubuzima buzira umuze.

Ni umugezi ukoreshwa mu gihe ahandi amazi yabuze hakaba hari kuvoma umwana ndetse n'umugore uri inyuma uri kumufasha kuzamura no kumanu ngo amazi aze, hakaba hari n'abandi bantu bahagaze ku ruhande babitegereza.

Ni abana babiri ubona ko bava inda imwe, uw'umuhungu mukuru n'akagakobwa gatoya, uw'umuhungu ari gukarabira mu ndobo amazi meza n'isabune, yereka mushiki we ukuntu umuntu agomba gukaraba amazi meza n'isabune.

Ni abakozi ba leta bambaye neza, ubona ko hari igikorwa bari barimo bakaba bakirangije nyuma bakaba bari kwifotoza, bakaba bahagaze kandi iruhande rw'ibendera ry'u Rwanda.

Ni imigezi ivwomaho mu gihe ahandi amazi atari kuboneka, kuyivomaho akaba ari ubuntu nta giciro bisaba ariko bisaba umuntu ujya inyuma akajya azamura kandi amanura kugira ngo amazi aze.

Mu rwego rwo kugira ngo abaturage babashe gukomeza kugira ubuzima buzira umuze, leta yongereye imbaraga mu gushyira amavomero y'amazi ahantu hatandukanye, kuko amazi na yo ari mu bintu bidufasha mu isuku ya buri munsi.

Ni abagore baje kuvoma ku mugezi rusange, akaba ari umugezi wubatswe na Leta kugira ngo buri muturage wese abashe kubona amazi meza kandi menshi yifashishwa mu bikorwa by'isuku bya buri munsi.

Mu rwego rwo kugira ngo abantu bagire ubuzima buzira umuze leta yashyizeho abanyabuzima bazajya basura ababyeyi uko bwije n'uko bukeye ngo barebe uko ubuzima bwabo buhagaze.

Ni abanyabuzima benshi bambaye amataburiya ndetse n'amakarita y'akazi, ubona ko basuwe n'umunyamahanga ndetse n'umuganga mukuru bagira ngo babahe zimwe mu nama bazajya bifashisha bari kuvura abaturage.

Mu rwego rwo kwirinda indwara zifata abana ziterwa no kugira imyanda itandukanye mu ntoki, Leta yubatse imigezi ihagije ku bigo bitandukanye kugira ngo buri mwana wese abashe gukaraba intoki akoresheje amazi meza ndetse n'isabune.

Ni kwa muganga hari umugore utwite uryamye ku gitanda, wambaye agapfukamunwa ubona ko hari undi mubyeyi wamuherekeje, ndetse hakaba hari na muganga uri kumwitaho, akaba yashyize akantu ku nda kabugenewe kugira ngo yumve uko umwana ameze mu nda.

Ni abakozi ba reta ubona ko bambaye neza, bicaye mu buryo bw'uruziga ku buryo buri wese areba undi, bakaba bari mu nama ubona ko yiga uko bazajya bafasha abaturage kugira ngo buri wese agire ubuzima bwiza, kandi imbere ya buri muntu hateretse icupa ry'amazi.

Mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye zifata abana kubera umwanda wo mu ntoki, leta ishishikariza ababyeyi babo ko bakwigisha abana uko ushobora gukaraba amazi meza n'isabune mu ntoki kandi buri kanya. Hano hakaba hari kugaragara umwana uri gukaraba.

Hari umugore ubona ko ari kumwe n'umwana bagiye gusoroma imiti y'ibyatsi, akaba ari imiti yifashishwa mu gihe umuntu atabonye uko ajya kwa muganga kandi nayo mu gihe wayikoresheje neza irakuvura.

Wasake ni ikigo cy'igihugu gifasha abaturage kubona amazi meza, arimo n'imiti yabugenewe, akaba ari amazi afasha abantu mu bikorwa byabo bya buri munsi bibafasha kugira isuku.

Umwana w'umuhungu wambaye umupira w'ubururu n'uturongo tw'umukara, afite isabune, umubyeyi we ari kumwigisha uko agomba gukaraba intoki n'isabune n'amazi meza.

Ni umugezi usaba imbaraga kugirango ngo uguha amazi, hari ikintu kiba kiri inyuma ugomba kuzamura wongera unamanura kugira ngo amazi aze, hakaba hari abana inyuma bari gukurura bongera bamanura kugira ngo amazi aze, ndetse hakaba hari n'umubyeyi uri kumwe n'akana gato.

Ni uburyo leta ishyiraho abaganga bakajya kwita ku baturage babasanze aho batuye, ari nayo mpamvu bahubaka igishararaga kuko baba batazahatinda, ubu hakaba hari gupimwa abaturage ngo barebe ko nta ndwara zo mu bihaha bafite.

Hano hari abana batatu bari kudaha amazi atemba kandi nkuko dusanzwe tubizi amazi atemba agira ingaruka mbi mu bikorwa byacu bya buri munsi ndetse akaba yadukururira n'ubuzima bubi.

Ni kwa muganga imbere ubona ko hari n'abaganga bakoramo rwose bari kwifotoza bishimiye intego yabo akaba ari ukuvura abaturage neza ngo bagire ubuzima buzira umuze.

Ni kwa muganga ubona ko hari abaganga batatu bari hanze, uhagaze, uri buri mudasobwa ndetse n'uwicaye, bose bambaye udupfukamunwa kandi bakaba bagenderewe n'umuturage waje kubaka serivise.

Ni uburyo abantu bakoresha mu gihe ku yindi migezi amazi yabuze, igihe inyuma y'umugezi haba hari umuntu uzamura yongera amanura imbere hari abari kuvoma, aha hakaba hari abana baje kuvoma inyuma hari umukobwa uri kubafasha.

Ni abana batoya, bicaye ku dutebe twabugenewe, bari mu ishuri, imbere yabo hari ameza, abo bana ubona bishimye, bigaragara ko bafite ubuzima buzira umuze.

Ni abana, ubona ko bari ku ishuri ndetse bambaye n'impuzankano, bose bakaba bari gukaraba mu ntoki. Akaba ari amabwiriza baba barahawe n'uburezi, ko umuntu wese wakoze imyanda agomba gukaraba amazi meza ndetse n'isabune.

Umwana uvuye kuvoma wikoreye ijerekani ubona ko ari umugabo uri kumukorera. Bose bari guseka. Ubona ko rwose bose yaba uwo umugabo ndetse n'umwana bafite ubuzima bwiza.

Ni imigezi ikoreshwa mu gihe amazi yabuze ku yindi migezi, ikaba ikoreshwa mu gihe hari umuntu uri kuzamura anamanura akoresheje imbaraga, undi ari kuvoma, hakaba hari abagore bari kumanura inyuma banazamura, hakaba hari n'undi uri imbere uri kuvoma.

Ni abantu bicaye mu ishusho y'uruziga, mo hagati yabo harimo ameza ndetse buri wese imbere ye hari icyayi, ukaba ubona ko bari kuganira kugira ngo bamenye uburyo bajya bita ku baturage ngo babashe kugira ubuzima buzira indwara.

Bibaho ko Leta ishobora kubaka umugezi. Igihe runaka uwo mugezi itiyo ijyana amazi igatoboka. Hano hari abana bashungereye iyo tiyo yatobotse iri kumena amazi mu ibase.

Ni umuganga wambaye imyambaro yabugenewe ahagana ku ntoki ndetse akaba yambaye n'itaburiya y'umweru, ikindi kandi ari wenyine urabona ko hari ibintu ari gucokoza ngo amenye neza amakuru yizewe.

Ni abana benshi ubona ko batangiye ishuri, bishimye cyane rwose bigaragara ko byanze bikunze bafite ubuzima buzira umuze, bariye neza mu minsi ya mbere.

Ni umugabo ubona ko yicaye wenyine yigunze, hejuru ye hari ibintu bihamanitse, uwo mugabo akaba ari kurira yihishe mu maso, ariko nanone akaba afite ikibazo cyo mu bwonko.

Ni umugabo munini, wambaye ikoti ry'umukara ubona ko yaje kwibuka uwe wazize jenoside yakorewe abatutsi. Iruhande rwe, hakaba hari umukobwa umwe mu bahakora amasuku.

Ni abantu benshi ubona ko bicaye bari mu gikorwa runaka, imbere ye hakaba hari umugore ufite n'agasakosha mu ntoki akaba agiye gutanga indangururamajwi ayiha umwana w'umukobwa.

Ni icyapa kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru, igice kimwe hariho madamu Nyakubahwa perezida Kagame, akaba ari gutanga ikiganiro ku bijyanye n'uko buri muturage wese agomba kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ni abana benshi bari kurira, ubona ko bateze amaboko bari gusaba ndetse inyuma yabo hari abari kumwe n'ababyeyi babo, akaba ari abana bagira ikibazo cyo mu mutwe kubera ko bahuye n'imirire mibi.

Ni icyapa gishushanyije mu mabara atandukanye, kiriho n'umukobwa uri guseka mu ibara ry'umukara, hakaba kandi hari amagambo ahanditse mu ibara ry'umweru, atubwira ko buri wese agomba kugira umutwe uzira ibibazo, ikindi kandi hakaba hari n'ukuntu wakwirinda ibitera kurwara umutwe.

Ni abantu benshi ubona ko bambaye neza harimo n'abapolisi, bakaba bari gushishikariza abantu kwirinda gukora ihohotera rishingiye ku gitsina. Kuko rishobora gutera indwara zo mu mutwe.

Ni umugabo wicaye hanze y'inzu, ufite ikibazo cyo mu mutwe wambaye imyenda y'umukara harimo n'ingofero y'umukara, akaba afite ibintu byinshi by'imyanda bidahuye: amazi mu ishashi, ibiti ndetse n'ibindi byanda utamenya aho yabikuye.

Ni abagabo babiri bambaye imyenda isa ubururu, uw'imbere yambaye ikintu utamenya mu mutwe, ariko nanone ni umugabo ufite uburwayi bwo mu mutwe.

Ni umugabo ubona ko akuze, wambaye imyenda y'umukara yacicaguritse akaba afite ibisatsi byinshi ubona ko akatajya akarabamo ndetse n'ubwanwa bwe ariko akaba abiterwa no kutagira mu mutwe hazima cyangwa se no kwangirika mu mutwe.

Ni umusore ubona ko yishimye wambaye tisheti y'umweru, inyuma ye hari ibara ry'umuhondo, akaba ari guseka yerekana ko afite amenyo afite ubuzima buzira umuze.

Ni umugabo uhagaze kandi wambaye neza, akaba yishimye, ari kugaragaza amenyo ye yose, akaba ari amenyo ubona ko nta kibazo na kimwe afite.

Ni umugabo usutse akaba yambaye umupira usa n'uwo umwana bari kumwe, bakaba bashyize akadodo mu menyo yabo, bari kwerekana ko amenyo yabo azira indwara mbese nyine ari mazima.

Umwana uri kwa muganga, ubona ko yambaye imyenda yo kwa muganga, ari kwitabwaho n'umuganga kandi nanone na we wambaye imyenda yabugenewe, akaba ari kumuha ubuvuzi bw'ibanze mu bijyanye n'amenyo.

Ni umugabo ubona ko akuze wicaye mu ntebe, yambaye ndetse n'agapfukamunwa, ari kwitabwaho n'umuganga na we wambaye agapfukamunwa, akaba arwaye zandwara zihurira ku bantu baba bashaje.

Ni umubyeyi uri kwa muganga ubona ko yagize ikibazo mu ngingo z'umubiri, ndetse akaba anagendera ku mbago, akaba yifotozanyije n'umuganga umwitaho mu buzima bwa buri munsi, bakaba bishimye.

Ni umukecuru uri mu za bukuru, akaba yicaranye n'umukobwa we nawe uturi mutoya, ubona ko bari kuganira bishimye ndetse uwo mukecuru akaba ari gukata imboga, inyanya ndetse n'imbuto.

Ni umusaza uri mu zabukuru ubona ko rwose nta mbaraga afite kubera ko ahenshi abantu bari mu za bukuru baba bafite indwara nyinshi zitandukanye, ariko kandi akaba ari kwitabwaho n'umuganga.

Ni kwa muganga hari umukecuru ubona ko adashaje cyane wicaye ahagana ku meza, akaba ari kumwe n'umuganga bari kumuha ikinini ngo akinyweshe amazi.

Abantu bari mu zabukuru biba byiza iyo ubahaye imiti ubereka ko ubitayeho kandi ubishimiye, hano hakaba hari umuganga uri guha ikinini umukecuru uri mu za bukuru, amuganiriza kandi yishimye ngo akinyweshe amazi.

Ni umugabo ubona ko ashaje, akaba kandi arwaye, uryamye ku gitanda ari wenyine, akaba ari guterurwa n'abana be bamujyanye ahantu runaka.

Ni umusaza ubona ko yishimye bitewe n'ukuntu ari kwitabwaho akaba yicaranye n'umuganga uri kumusekera amushyizeho cya kintu ku kaboko kigaragaza umuriro ufite mu mubiri.

Nk'ibisanzwe abantu bari mu zabukuru baba bashaka kwitabwaho, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima buzira umuze, hano hakaba hari umukecuru uri mu zabukuru, uri guha amazi umugabo we nawe uri mu zabukuru, akaba ari kuyamuha yishimye kandi bari kuganira.

Ni umukecuru ushaje, ubona ko yibana, mu gikari cye hakaba hateye ibyatsi byinshi bitandukanye, n'ibindi bintu byinshi byumye biharunze, akaba atekeye kandi hagati muri ibyo byatsi.

Ni byiza ko abantu bashaje bakora imyitozo ngororamubiri kuko ibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, ikabarinda za ndwara zikunda gufata abari mu zabukuru ndetse ikabafasha kongera kugira ubuzima. Hano hakaba hari abantu bari mu za bukuru ubona ko bari mu myitozo ngororamubiri.

Ni igipapuro kiri mu mu mabara menshi, handitseho amagambo y'ubururu ndetse n'umukara n'umweru, hakaba hariho uburyo Diyabete ushobora kuyirwara n'uburyo wayirinda.

Ni kwa muganga hari ubusitani burimo indabyo ngufiya ndetse n'indende, zifashishwa mu gutanga umwuka mwiza. Hakaba hari n'abakozi bakora amasuku kwa muganga bahagaze mu kayira kajyayo.

Ni kwa muganga ubona ko hubatswe mu buryo bugezweho mu nzira zijyayo zose hashashemo amapave, ku mpande hari ubusitani bwiza burimo n'ibiti birebire, ibi biti kandi bifasha abahagana kubona umwuka mwiza.

Ni inyubako zo kwa muganga zubatswe mu buryo bugezweho, ahagana hasi hashashe amapave, ku mpande kandi hari ubusitani burimo indabyo ngufiya ndetse hakaba hateyemo n'imboga, hari kugendamo kandi abantu bavuye kwa muganga.

Ni Ikigo Nderabuzima giteye irangi ry'umweru ahagana hejuru, ahagana hasi akaba ari amatafari ahiye, kikaba gifite ubusitani bufite indabyo ngufiya: iz'umuhondo n'iz'icyatsi kibisi. Akaba ari indabyo zifashishwa mu gutanga umwuka mwiza ku barwayi.

Ni ibitaro by'i Rwamagana ubona ko byubatswe mu buryo bugezweho, imbere hahagaze abakozi bose bakoramo ndetse bambaye n'amakarita, hejuru hari icyapa kigaragaza ko ari i Rwamagana kwa muganga.

Ni kwa muganga, hanze hateye irangi ry'umweru, hari ibaraza rifite inkingi, ahagana hasi hashashe amakaro, hakaba ari ahantu hagenewe kubyarira abagore.

Ni inyubako yo kwa muganga iteye irange ry'umweru, ahagana hasi ku mbuga hashashe amapave, ndetse ifite n'ubusitani bwiza burimo indabyo ngufiya, ikagira ikigega cy'amazi ahagana mu gikari, muri ayo mapave kandi harimo akana ubona kicaye ku kagare.

Ni ikigonderabuzima cyubatse mu buryo bugezweho, giteye irangi ry'umweru, kigeretse rimwe, gifite ndetse n'utwuma turinda abantu kugwa. Ahagana aho abantu binjirira hateye irangi ry'umutuku. Gifite kandi ubusitani bwiza. Ahagana ku mbuga hakaba hagiye hashashe utubuye dutoya.

Ni kwa muganga mu imbere ubona ko harimo umuganga wambaye imyenda y'akazi, harimo kandi ibitanda byinshi byagenewe kuryamaho abarwayi ndetse bakaba nta n'abariho hari kandi n'amarido yo mu ibara ry'ubururu.

Ni kwa muganga, hasi ni amakaro, hateye irangi r'umweru, hejuru hari parofo, harimo ibyuma byinshi byifashishwa mu kuvura abaturage, hakaba harimo nk'igitanda cy'abarwayi, zamudasobwa zifashishwa mu kureba imbere mu mibiri y'abaturage n'ibindi.

Ni inzu nziza iri mu buryo bwa konoshi, igeretse rimwe, iteye irangi ry'umweru n'ubururu hejuru, ahagana hasi hakaba higanjemo irange rya kaki n'ubururu, ifite ibaraza ndetse n'inkingi ku irembo, ikagira n'indabyo ku irembo, n'aho guparika imodoka.

Ni inyubako nziza yo kwa muganga, iteye irangi ry'umweru, ifite ibaraza ndetse n'utuntu turinda abantu kugwa, hakaba hari icyapa kandi cyerekana ko bakira n'ababyeyi batwite.

Ni kwa muganga ubona ko hubabatswe mu buryo bugezweho, ahagana hasi mu mbuga hakaba hashashe amapave, iruhande rw'ayo mapave kandi hakaba hari ubusitani burimo indabyo ngufiya z'icyatsi kibisi.

Ni mu nyubako yo kwa muganga hateye irangi ry’umweru, mo imbere hari ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse hakaba hari n'umukobwa uri gukoresha mudasobwa wambaye itaburiya y'umweru.

Ni kwa muganga ahagana hasi hashisha amakaro, hateye irangi ry'umweru, hejuru harimo parafo ubona ko hubatswe mu buryo bugezweho, ndetse buri cyumba hakaba hari ibimenyetso bikwereka igikorerwamo.

Ni kwa muganga, inyubako yaho iteye irangi ry'umweru ndetse hasi ku mbuga hasashe amapave, bakaba bafasha abantu mu buvuzi bujyanye n'amatwi.

Ni kwa muganga hari umugabo uryamye ku ntebe, wambaye agapfukamunwa ndetse n'ingofero, ubona ko ari kwitabwaho na muganga ndetse akaba ari guterwa urushinge.

Ni kwa muganga hasi ni amakaro, hejuru ni purafo. Ni mu cyumba ubona ko hari igitanda kimwe kiryamaho abarwayi gifite n'utwuma dushobora kurinda umurwayi kugwa. Iruhande rw'icyo gitanda kandi hakaba hateretse agatebe k'umweru.

Nimo imbere kwa muganga hari ubusitani bwinshi ku nkengero z'utuyira duhari ndetse harimo n'ibyapa bishinzemo hari n'ikiri ku byuma bibiri kikwereka ko ari kwa muganga sehashibe.

Mu rwego rwo guteza imbere ubuvuzi, leta yashyizeho ko abaganga bajya bacishamo bakajya gusura abantu bageze mu zabukuru batagifite imbaraga, kubera ko usanga bafite indwara nyinshi zababereyeho uruhurikane bakabura n'uko bivuza.

Ni ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, cyubatse neza mu buryo bugezweho giteye irange ry'umweru, kikaba kigeretse rimwe ndetse kikaba gifite n'utwuma turi ku mpande tubuza abantu kugwa, hakaba kandi hari n'abarwayi benshi ubona ko baje kwivuza.

Ni inyubako zo kwa muganga ubona ko ari nziza kandi zubatswe mu buryo bugezweho rwose, zifite amabaraza zikagira n'ubusitani bwiza burimo indabyo ndende n'ingufiya, izo ndabyo zikaba zifashishwa mu gutanga umwuka mwiza mu baharwariye.

Ni inyubako zo kwa muganga, hano ni kwa muganga, hubatswe mu buryo bugezweho, hakaba hasheshe amapave mu tuyira tumwe na tumwe, hakaba kandi hari ubusitani burimo n'ibiti birebire, byagenewe guha abahagana umwuka mwiza.

Hari inzu ubona y'ibyatsi. Akaba ari inzu abantu bakera babagamo, imbere hari umugore ubona ko atwite ufite n'utundi twana, umuganga akaba yari yaje kumupima.

Ni inyubako zo kwa muganga zubatswe mu buryo bugezweho ziteye amarange, hari izigeretse, zikaba zifite imiryango kandi myinshi, ahagana hasi ku irembo hashashe amapave, haba hari n'ubusitani burimo ibiti birebire byagenewe guha abarwayi umwuka mwiza.

Ni ikigo nderabuzima cyo ku Gisenyi, ubona ko cyubatse aha gana ku muhanda gifite igipangu cy'amatafari ahiye ndetse cyakira n'abarwayi benshi bavuye ahantu hatandukanye.

Ni inzu nziza ubona ko yubatse mu buryo bwa konoshi, iteye irangi ry'umuhondo, ikaba ifite icyapa kiri hejuru kigaragaza ko imbere hacururizwamo imiti y'ubwoko bwose.

Ni abaganga bivanze n'abagore ndetse n'abagabo bateraniye hamwe ubona ko bari mu bushakashatsi, akaba ari umugore uri kubayobora, abandi bakaba bakurikiye bari kureba ibyo arimo.

Ni inyubako nziza zigeretse rimwe, ziri ku muhanda wa kaburimbo, ziteye irangi ry'umweru, zikaba zifite n'amabaraza arinda abantu kugwa, ahagana hasi y'izo nyubako hakaba hari ahantu habugenewe ho guparika ibinyabiziga.

Ni umugore uri gukora imyitozo ngororamubiri, ubona ko hari akantu kabugenewe aryamyeho. Imyitozo ngororamubiri ikaba ikorwa tugira ngo twirinde indwara, umubyibuho ukabije ndetse n'ibindi byinshi.

Mu gihe uri gukora imyitozo ngororamubiri, ikiganza cyawe gishobora kuvunika mu buryo bwo kubyirinda hano bari kutwereka uburyo bune uzirikamo ikiganza cyawe kugira ngo wirinde ko cyaza kwangirika.

Ni abantu bari mu myitozo ngororamubiri, bambaye imyenda yabugenewe rwose, ifite ibintu bibarinda haba ku maboko ndetse n'amaguru harimo ibintu bibarinda, bambaye kandi n'ibindi bibarinda ibiganza ndetse n'ingofero z'ubwirinzi zifunze ahantu hose.

Umuntu uba umaze gukora imyitozo ngororamubiri kubera ko aba yatakaje imbaraga nyinshi amazi mu mubiri ni byiza ko igihe asoje agomba gufata zimwe muri izi mbuto zikurikira.

Ni ishusho iriho umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri. Akaba ari gukora ya myitozo ngororamubiri ivura amavunane ndetse igatuma n'amaraso atembera neza mu mubiri.

Rimwe na rimwe hari igihe uba uri mu myitozo ngororamubiri bikaba ngombwa ko uvunika zimwe mu ngingo zubatse umubiri wawe, bakaguha ino nkoni izajya igufasha kugenda mu buzima bwawe bwa buri munsi.

Ni umugabo wicaye ubona ko afite igitambaro ari kwikanda ku kuboko kumwe, akaba ari uburyo ukoresha mu gihe wari uri mu myitozo ngorora mubiri ukagira ikibazo mu rugingo.

Mu gihe umaze gukora imyitozo ngororamubiri, ni byiza ko ufata zimwe mu mbuto: nk'amarongi, pome ndetse n'ibindi, kuko bigufasha kugarura imbaraga uba watakaje.

Mu gihe umaze gukora imyitozo ngororamubiri hari igihe uba wumva wavunaguritse. Hano hakaba hari ikintu cyabugenewe kirimo ibara ry'umweru ushobora kuryamaho ugakira amavunane.

Ni umugabo usutse wambaye imyenda ya siporo y'umukara, agasengeri n'ikabutura, uri muri siporo iwe, ubona ko yarambuye agatambaro muri salo.

Ni umuntu uba waravunitse cyangwa waragize ikibazo mu rugingo rw'umubiri akajya kwa muganga bakajya bamukoresha imyitozo ngororamubiri kugira ngo yongere asubirane.

Mu gihe ugiye gukora imyitozo ngororamubiri, ni byiza ko wambara tumwe mu dushobora kurinda umubiri wawe kwangirika, hano hakaba hari utuntu twinshi cyane, dufasha abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi iyo bagiye gukora imyitozo ngororamubiri.

Hano hari kugaragara ibikoresho byinshi cyane rwose byifashishwa mu gihe bari kuvura umuntu wagize ikibazo yari ari gukora imyitozo ngororamubiri, hari imikasi, ibinini, imyambaro yagenewe kwambara mu ntoki ndetse n'ibindi.

Ni akantu kabugenewe karimo ibara ry'umuhondo, gatwara abarwayi mu gihe uba uri gukora imyitozo ngororamubiri warangiza ukagira ikibazo cyo mu ngingo, kakaba gakunze gutwara cyane cyane abakinnyi b'umupira.

Ni umugabo ubona ko ari mu myitozo ngororamubiri akaba yicaye ari kuruhuka nkuko twabibonye ni ingirakamaro ko igihe usoje imyitozo ngororamubiri ugomba kunywa amazi kuko amazi nayo ari mu bigufasha kumera neza.

ni umuntu wari mu myitozo ngororamubiri nko gutwara igare arangije agira ikibazo ahagana ku kiganza akaba ari kwitabwaho na muganga kugira ngo arebe ko amera neza hanyuma akayisubiramo

Ni abana bari mu myitozo ngororamubiri bambaye imyenda yabugenewe ndetse n'inkweto, bakaba bari ku kibuga, inyuma y'icyo kibuga hari umukingo uhagazeho abantu benshi cyane babashungereye.

Ni umugabo ubona ko avuye mu myitozo ngororamubiri akaba ari kunywa amazi, kandi koko nk'uko tubizi iyo umuntu amaze gukora imyitozo ngororamubiri rimwe na rimwe asoza afite inyota idasanzwe.

Nk'uko twabivuze iyo umuntu asoje imyitozo ngororamubiri agomba guhita afata amazi, hano hari umugabo ubona ko asoje imyitozo ngororamubiri uri kunywa icupa ry'amazi, akaba ahita afasha umubiri gutangira gukora neza.

Ni abantu ubona ko bari muri siporo, bakaba bari kuzikorera imbere mu nzu. Imyitozo ngororamubiri kandi akaba ari igikorwa dukora kugira ngo kidufashe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Harimo nko kuturinda indwara, gufasha amaraso yacu gutemba neza mu mubiri n'ibindi.

Mu gihe uri mu myitozo ngororamubiri ushobora kugira imvune itunguranye mu ngingo runaka, hano hakaba hari akagare gatwarwamo abantu bari mu myitozo ngororamubiri bakagira ikibazo.

Nk'uko dusanzwe tubizi ko gukora imyitozo ngororamubiri ari byiza, hano bari kutwereka ibintu ugomba gufata nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri. Nk'imbuto, amazi ndetse no gupima ingingo zawe ukareba ko hari icyahindutse.

Bibaho ko nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri ushobora kwangirika nk'ingingo imwe y'umubiri cyangwa se ukagira imvune. Hano hari imiti myinshi itandukanye n'ibindi bikoresho bakoresha ndetse hakaba n'agasanduka ko kubibikamo. Akaba ari ibintu bishobora kugufasha mu gihe wagize ikibazo uri mu myitozo ngororamubiri.

Ni umukobwa ubona ko yari mu myitozo ngororamubiri, arangije agira ikibazo cyo mu ivi, ubona ko kandi yicaye ari kwitabwaho na muganga, amuha ubuvuzi bwose bumufasha kumera neza.

Ni umugabo uri gukora siporo mu muhanda wambaye inkweto n'imyenda byabugenewe, siporo kandi ikaba ikorwa n'abantu kugira ngo ifashe umubiri wabo gukora neza.

Ni abasore ubona ko bafatiyeho bari mu myitozo ngororamubiri bari kwirukanka muhanda wa kaburimbo. Iki akaba ari kimwe mu bivura umubyibuho ukabije, amavunane mu mubiri ndetse n'izindi ndwara nyinshi.

Ni umugore ubona ko yishimye, uri gukorera imyitozo ngororamubiri iwe mu rugo, imyitozo ngororamubiri ikaba idufasha kandi nko kurinda indwara umubyibuho ukabije ndetse n'ibindi.

Ni icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho n'amagambo y'umweru. Ndetse ku ruhande hari ibinini bikoze mu buryo bitandukanye, kandi bifatwa mu buryo butandukanye. Bikaba binyobwa n'abantu bagize ikibazo mu gihe bari bari mu myitozo ngororamubiri.

Ni kwa muganga mo imbere, ahagana mu biro, hateyemo ameza ariho ibikoresho by'ikoranabuhanga byinshi, harimo nka mudasobwa, n'ibindi. Hakaba hari umuganga uri gutunga icyuma umwana ku mutwe we ngo arebe ko nta kibazo ufite.

Ni mu nzu yabugenewe huzuyemo ibyuma bifasha abantu gukora imyitozo ngororamubiri, mu buryo bwose, hano hakaba harimo ibyuma by'amoko menshi atandukanye, bifasha abantu mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri, kuko imyitozo ngororamubiri iturinda indwara zitandukanye, ndetse ikaturinda n'umubyibuho ukabije, ariko kandi bikaba byiza ko mu gihe usoje gukora imyitozo ngororamubiri, unywa amazi menshi kandi ahagije, kuko nayo ari mu bidufasha.

Mu gihe uri mu myitozo ngororamubiri ushobora kwangirika ingingo imwe mu zigize umubiri, hakaba hari uburyo bwihuse ushobora kwivuza, nko kwikandisha igitambaro wakojeje mu mazi ashyushye.

Hari imigozi yo gusimbuka, iruhande rwayo ubona ko hari kugaragara ibirenge by'ushaka kuyisimbuka. Hakaba kandi hari n'imbuto ushobora kwifashisha mu gihe umaze gusimbuka.

Ni umwangavu, ubona ko asubitse gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ari kunywa amazi, kandi amazi nk'uko tubizi, mu gihe umaze gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ari meza n'ayo afasha amaraso gutembera.

Ni akantu gafite amaguru y'umweru kameze nk'agatanda kariho igitambaro cy'ubururu kakaba kavurirwaho abantu bari muri siporo cyangwa abakinnyi, kakaba gafite uko kangana kuri buri ruhande.

Ni icyumba kimwe mu byo kwa muganga kiba kirimo ibikoresho byinshi, amatara atandukanye utugari dufasha abantu ndetse n'ibitanda byo kuryamaho, hakaba havurirwamo abantu bari bari mu myitozo ngororamubiri barangiza bakagira ikibazo.

Ni umukobwa usoje imyitozo ngororamubiri, ahita anywa amazi. Cyane ko tuzi ko amazi ari umuti w'abantu bakoze imyitozo ngororamubiri kuko nayo afasha umubiri gukomeza gukora neza.

Mu gihe kandi nanone uri mu myitozo ngororamubiri, ushobora kuvunika bikomeye cyane, ku buryo batakuvura byoroshye, icyo gihe uhita utwarwa n'imodoka ishinzwe gutwara abarwayi bakajya kukwitaho, hano hakaba hari imodoka ishinzwe gutwara abarwayi iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo.

Ni umugabo uri gukorera imyitozo ngororamubiri mu nzu ubona ko hari undi uri kubimufashamo, imyitozo ngororamubiri kandi ikaba ikorwa kugira ngo wirinde umubyibuho ukabije ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Ni icyapa ubona ko kiriho abantu bari mu myitozo ngororamubiri itandukanye. Imikino myinshi, ubutwazi bw'amagare ndetse n'indi myinshi. Imbere kandi hakaba hari ahantu handitse amagambo y'umweru. Uko ushobora kwirinda ibyago bigomba kukubaho ndetse n'uko wakwitwara.

Ni umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri akaba yambaye utujyana amajwi mu matwi ndetse uri kunywa amazi, amazi akaba ari kimwe mu bigufasha mu gihe uri mu myitozo ngororamubiri.

Igihe uri mu myitozo ngororamubiri nko gukina umupira w'amaguru ushobora kwangirika ingingo imwe mu zigize umubiri, mu gihe wangiritse rero hano hari ikintu bakuzirikisha kiri mu ibara ry'umutuku kikabasha koroshya imvune yawe.

Ni icyumba kirimo ibikoresho byose byifashishwa mu kuvura abantu bagize ikibazo bari nko mu myitozo ngororamubiri. Habakaba haryamye umugabo ku rundi ruhande, no hirya haryamye umukobwa, ubona ko barikwitabwaho babafasha kumera neza.

Ni ishusho iri mu ibara ry'ubururu iriho umukobwa kandi uri mu myitozo ngororamubiri ndetse akaba asutse ku mutwe, imyitozo ngororamubiri nayo ikaba iri mu miti ishobora kutuvura kuko ivura umubyibuho ukabije ndetse igatuma n'amaraso atembera neza mu mubiri.

Ni amavuta meza yo kwisiga abari mu icupa ry'umweru akorwa hifashishijwe uburyo bwa gakondo ariko nanone akabanza gucishwa mu ruganda.

Ni ibinini by'icyatsi kibisi biri mu kantu kabajwe mu giti, akaba ari ibinini bikorwa mu buryo bwa gakondo hifashishijwe ibyatsi, ariko nyuma bigacishwa mu nganda, kugira ngo bitunganywe neza.

Ni imiti y'ibyatsi iteye ahantu mu ndobo zitandukanye, ikaba yaraterwaga ikanakoreshwa kera mu rwego rwo kwivura kubera ko ubuvuzi bwari butaratera imbere.

Ni icyapa kiri mu ibara ry'umutuku, umuhondo ndetse na oranje. Gishushanyijeho kandi amacupa ari mu mabara atandukanye, akaba ari mu mavuta ava mu byatsi ariko na none amavuta akaba abanza gucishwa mu nganda.

Ni icyatsi gifite amababi y'icyatsi kibisi, ayo mababi akaba yifashishwa mu gukora imiti ya kinyarwanda bitabaye ngombwa ko ica mu nganda, akaba ari imiti yifashishwa kandi nayo ikavura mu gihe umuntu atabonye uko ajya kwa muganga.

Ni imiti itandukanye, iri mu bikoresho bitandukanye na byo bya gakondo, akaba ari imiti kandi na yo ya gakondo irambuye ahantu ku gakeka kabohesheje imigozi, ndetse iyo miti ikaba yarifashishwaga mu kuvura kera cyangwa se n'ubu mu gihe umuntu atabonye ubushobozi bwo kujya kwa muganga.

Ni amavuta yo gusiga ku mubiri akozwe mu buryo bwa gakondo, nko mu byatsi, harimo nk'igikakarubamba, ariko na none akaba abanza gucishwa mu nganda ngo bayatunganye neza.

Ni imiti myinshi cyane yo mu byatsi buri muti handitseho akamaro kayo, akaba ari imiti yifashishwaga n'abaturage bo hambere mu gihe hari hataraza ubuvuzi bugezweho.

Hano hari kwerekanwa imiti myinshi ya gakondo, ikaba ari mu byatsi bitandukanye, bakaba bakwerekana uburyo ushobora kuyikoresha bitabaye ngombwa ko ujya kwa muganga.

Hano hari imiti y'ibyatsi ariyo tuzi nk'imiti ya gakondo, ikoreshwa mu kuvura indwara zimwe na zimwe zidashobora kuvurwa no kwa muganga cyangwa se mu gihe utabashije kubona uko uhita ujya kwa muganga.

Akenshi umuntu urwaye indwara ya amibe cyangwa se indwara y'inzoka ni byiza ko akoresha uburyo bwa gakondo agafata imiti ikoze mu byatsi, hano hakaba hari umuti bari kutwereka ukozwe mu byatsi unyobwa n'abantu barwaye iyo ndwara.

Mu rwego rwo guteza imbere ubuvuzi bwa gakondo kuko ubwo buvuzi buri mu bwunganira ubuvuzi bugezweho, hano hari umugabo ucuruza imiti iri mu macupa atandukanye, iyo miti kandi iba yavuye mu byatsi.

Ni igiti giteye mu bindi biti byinshi gifite amababi y'icyatsi kibisi, aya mababi akaba yarifashishwaga mu buvuzi bwa gakondo, abaturage bari kugira ngo bivure vuba mu gihe hari hataraza ubuvuzi bugezweho.

Ni umuti uba uri mu gacupa gatoya k'ibara ry'umukara, akaba ari umuti ukorwa mu byatsi kandi mu buryo bwa gakondo. Uwo muti ukaba wunganira indi miti yo kwa muganga mu gihe umuntu atabonye uburyo bwo kujya kwa muganga.

Ni amavuta yo kwisiga abari mu macupa atandukanye ndetse hakaba hari n'umuti w'amenyo bikorwa mu gikakarubamba, ariko nanone bikaba bibanza gucishwa mu ruganda ngo bitunganywe neza.

Hari ibinini byinshi bitandukanye ndetse hakaba n'imiti iri mu ishusho y'amazi ariko iva mu byatsi byinshi bitandukanye, ahubwo itandukaniro ni uko babanza kuyicisha mu nganda.

Ni icyapa kiri mu ishusho y'icyatsi, hariho icupa ry'amavuta, ubona ko ricuritse. Akaba ari amavuta akorwa mu buryo bwa gakondo, bakoresheje igikakarubamba ndetse n'ibindi byatsi.

Ni igiti gifite amababi y'icyatsi kibisi, akaba ari amababi yifashishwa bari gukora imiti ya gakondo. Akaba ari imiti umuntu ashobora gufata, na yo kandi ikamufasha mu gihe atashoboye kujya kwa muganga.

Ni uburyo bwo kwivuza ukoresheje imiti ya gakondo, hano hakaba hari imiti ya gakondo myinshi itandukanye, iyo mu byatsi n'ibindi ikindi ikaba iseye.

Ni amavuta aba mu macupa atandukanye, akozwe mu byatsi harimo nk'igikakarubamba ndetse n'ibindi, ariko mbere yo kuyashyira muri ayo macupa akaba abanza gucishwa mu nganda.

Ni ishusho y'umukara ubona ko imbere hashushanyijemo agacupa k'ibara ry'umweru kakaba karimo ibinini biva mu byatsi bya gakondo, na byo bikaba byifashishwa mu buvuzi.

Ni igiti ubona ko kiriho amabaye y'icyatsi kibisi ndetse n'indabyo ziri kuraba, ayo mababi akaba yarakoreshwaga mu buvuzi bwa gakondo mbere y'uko haza ubuvuzi bugezweho.

Hano bari kutwereka imiti, harimo nk'amaronji, amavuta n'ibindi biseye biri ku kantu k’umweru ushobora kwivurisha, akaba ari uburyo bwa gakondo budasaba ko wajya kwa muganga.

Ni icyatsi kitari kirekire cyane, gifite amababi y'icyatsi kibisi, amababi yacyo akaba ari yo yifashishwa mu gukora imiti ya gakondo. Akaba ari imiti na yo ikoreshwa kandi ikavura, mu gihe umuntu atabonye uburyo bwo kujya kwa muganga.

Hano hari imiti y'ibyatsi y'amoko atandukanye, ndetse ubona ko hari kugaragara n'uburyo butandukanye bwo kuyikoresha, akaba ari imiti yakoreshwaga hambere, mu kugira ngo Abanyarwanda birengere, hataraza ubuvuzi bugezweho.

Ni ameza manini ubona ko abaje mu giti, akaba ariho udusorori twinshi dutandukanye ndetse n'agakombe k'idongo, hakaba hari imiti myinshi itandukanye ya kinyarwanda.

Ni abagore benshi bari mu murima, ubona ko buri wese yagiye gusoroma umuti, kuko hari imiti itandukanye, akaba ari ubuvuzi bwa kinyarwanda, bukoreshwa mu gihe abantu batabashije kubona uko bajya kwa muganga.

Ni amavuta ari mu macupa atandukanye, akorwa mu buryo bwa gakondo, hifashishije ibyatsi nk'ibikakarubamba ndetse n'ibi biri kwerekana kuri iyi shusho, akaba atuma umuntu ashobora kugira uruhu rwiza.

Ubuvuzi bwa gakondo ntago buboneka mu byatsi gusa hari n'ubuvuzi ushobora kwikorera ukoresheje imbuto nk'amaronji. tangawizi ndetse n'ibindi.

Ni amavuta ya gakondo ariko azabanza guca mu nganda, ariko na none akaba akozwe mu cyatsi bita igikakarubamba, akaba ari mu macupa abiri iry'umweru ndetse n'iry'umuhondo.

Ni ibiti bitari birebire bifite amababi y'icyatsi kibisi, ayo mababi yabyo akaba ariyo yifashishwa gukoramo imiti, iyo miti akaba ari imiti ya gakondo, nayo ishobora kwifashishwa mu kuvura mu gihe umuntu atabonye uko ajya kwa muganga.

Mu myaka yo hambere hataraza ubuvuzi bufite ireme, abaturage bajyaga bivura bakoresheje imiti y'ibyatsi, aha kandi hakaba hari kugaragara umuntu uri gukora imiti n'ubundi akoresheje ibyatsi.

Ni amacupa menshi y'ibirahure arimo imiti itandukanye ndetse akaba apfundikije n'imifuniko itandukanye; iyo miti ikaba yifashishwa mu kuvura mu gihe hatabonetse ubuvuzi bwo kwa muganga.

Ni amavuta yo kwisiga ari mu icupa ry'umweru, ubona ko akozwe mu gikakarubamba, mu buryo bwa gakondo ariko na none akaba abanza gucishwa mu ruganda ngo atunganywe neza.

Ni amacupa ari mu ibara ry'umuhondo, kumpande z'ayo macupa hari utundi ducupa duto turi mu ibara ry'umweru, ayo macupa yose aba arimo amavuta akurwa mu byatsi, ariko nanone bakaba bashyira muri ayo macupa, babanje kuyacisha mu ruganda.

Ni igiti gifite n'amashami afite amababi y'icyatsi kibisi, aya mababi akaba yarifashishwaga mu kuvura indwara zitandukanye, mu myaka yo hambere igihe hari hataraza ubuvuzi bugezweho.

Ni igiti ubona ko kiri kuraba, gifite ibibabi by'icyatsi kibisi, ibi bibabi bikaba byarifashishwaga mu gukora imiti mu gihe abaturage babaga bashaka kwivura bya vuba bidasabye ko bajya kwa muganga.

Ni akantu k'ibumba ubona ko karimo imiti myinshi y'ibyatsi itandukanye, hakaba hari umugore uhicaye uri kuyitunganya, akaba ari imiti yakoreshwaga kera, ya gakondo hataraza ubuvuzi bugezweho.